Abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu byatsi, hakaba hari n'abandi bahagaze, inyuma yabo hakaba hari icyapa, hakaba hari umuntu wambaye ijipo y'umutuku anitandiye.

Inyubako nini ya sare, ikaba irimo ameza adekoje ibitambaro by'umukara, abantu bambaye udupfukamunwa bicaye imbere, abandi bakaba bicaye imbere yabo, abantu bari gukamera bafite imashini nyinshi bari gukameza, hakaba hari n'abandi bicaye bari kuri terefone.

Abantu bicaye, hari abicaye ari babiri, hari abicaye ari batatu, undi umwe yicaye imbere yabo, abicaye bambaye imyenda y'imyeru n'ingofero z'imyeru, abicaye imbere bambaye amashati y'imyeru hasi umukara, bakaba bose bazengurutse ameza.

Abantu bicaye mu byatsi bari mu nama bicaye hakaba hari ibendera ry'igihugu, hari umuntu uhagaze imbere yabo, hari uwicaye mu kibuga bakiniramo umupira, bakaba bagiye bashingamo amadarapo akaba ari amahema yicaramo abantu.

Inyubako ya etaje ifite ameza imbere yayo, hakaba hari abantu bicaye bifashe ku munwa, abari kuvuga, hari umuntu uri gukamera, amazi imbere yabo, amakaye ndetse n'amakaramu.

Abantu benshi bicaye ahantu hagaragara yuko ari muri sitade, hakaba hari umuntu uri imbere yabo ari kuvuga, hakaba hagiye hari inkingi z'ibyuma zishinze kuva hasi kugera hejuru.

Icyumba kinini kicayemo abantu, hari abantu bicaye ahantu hatandukanye, bose bakaba bari kureba ahantu hamwe, iyi sale ikafite ameza y'ibara ry'umutuku, bakaba bafite amazi imbere yabo, telefoni ndetse inyuma yabo hakaba hari izindi ntebe nyinshi.

Abantu babiri bicaye umugabo yambaye ikote ririmo imirongo ya Karokaro, umukobwa yambaye ikote ry'umutuku, hari amazi imbere yabo, hakaba hari n'icyapa kiri hakurya yabo, undi muntu uhagaze inyuma yabo ugaragara igice , wambaye umupira w'umweru , hakaba n'undi wicaye inyuma yabo ugaragara igice.

Abantu bicaye mu cyumba bakaba bicaye bateganye hagati yabo hakaba harimo ameza, bafite amatelefone, hari abifashe ku itama abandi bakaba bicaye imbere yabo, hakaba hari ufite mikorofone uri kuvuga abandi n'abo bakaba bicaye hepfo.

Abantu benshi bicaye muri sare hakaba harimo abambaye imyenda ya gisirikare, imbere yabo ku meza hakaba hariho amaji, amazi, amatelefone, imashini. Ayo meza akaba adekoje igitambaro cy'ibara ry'umuhondo n'icyatsi.

Abantu bicaye bari mu nama, bakaba bagiye bafite ibirahuri imbere yabo n'amacupa ateretse imbere yabo, bafite amakayi n'amakaramu, mashami imbere yabo, bakaba bose bari kureba imbere.

Abantu bicaye bambaye imyenda isa bakaba bicaye mu nyubako nini hakaba hari ameza adekoje igitambaro cy'ibara ry'ubururu hejuru hakaba hateretse amazi, amakaye n'amakaramu, hakaba hari umuntu uri imbere yabo urikuvuga ufite mikorofoni wambaye umupira w'icyatsi n'ikote ry'umukara inyuma ye hakaba ururabo ruhateretse.

Abantu bicaye ku ntebe z'umuhondo bakaba bambaye imipira isa yanditseho Rwanda, bakaba bafite amazi imbere yabo, hakaba hari uwifasha ku munwa abandi bakaba bari kureba mu cyerekezo kimwe hakaba hari n'abandi bunamye.

Abantu bari mu nyubako ya sare nini, bakaba bicaye ku ntebe zose zisa umweru, imbere yabo hakaba hari umuntu wambaye ijipo y'ubururu bwijimye uri kubavugisha, ruguru ye hakaba hari amarido yijimye, hakuno no hakurya hakaba hari ibyapa bigiye byanditseho amagambo atandukanye.

Abantu bicaye bazengurutse ameza, ayo meza akaba ariho imashini ,amazi yo kunywa, hakaba hari abantu bari kureba kuri telefoni, abandi bifashe munsi y'akananwa bakaba bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Abantu benshi mu nyubako bakaba bicaye imbere yabo hari ameza akaba hari bifashe kuwa kabafite maci akabare kure abantu ahantu bamwe baka bafite amazi imbere yabo amakaye amakaramu.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe, bakaba bafite mashine, hari abicaye ku ntebe z'umuhondo n'umutuku, hakaba hari undi wambaye umwenda w'icyatsi, uhagaze imbere yabo, akaba ari kubereka kuri televiziyo akaba afite urupapuro mu ntoki.

Abantu benshi bari mu ihema ridekoje ibara ry'umweru n'ubururu hakaba hari umuntu uri imbere ufite mikorofone, hakaba hari amabafure, agerekeranye abantu bicaye abandi bahagaze, abari gufotora.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inyubako, bakaba bafite imashini imbere yabo, amazi, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo akanditse ijambo rura, umwe akaba yifashe ku munwa, undi akaba ari kwandika mu ikayi, undi we akaba ashyize amaboko ku meza.

Abantu bicaye mu nyubako imwe bakaba bagiye bazengutse ameza, bakaba bafite telefoni, imbere yabo, amazi, hakaba hari umuntu uhagaze ari kuvuga, hakaba hari icyapa kinini kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Abantu bicaye mu mpande zitandukanye bari mu nama, bakaba bafite amazi imbere yabo mashini, telefone, hagati hakaba harimo indabyo, iyo nzu ikaba ifite amarido, akaba ari inzu ya etaje.

Abantu bicaye mu ntebe z'umukara bari kuri mashini, undi umwe uhagaze wambaye karuvati y'umukara, imbere yabo akaba hari amazi, amakaramu, impapuro, inyuma y'uwuhagaze hakaba hari ameza ateretseho amazi.

Abantu bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hakaba hari umuntu urikuvuga wambaye ijire y'umukara ufite mikorofone, imbere yabo hakaba hari ameza ategujeho igitambaro cy'umukara, bakaba bafite amazi, amakayi n'amakaramu harimo n'abari kwandika.

Abantu bicaye mu nyubako, imbere yabo hari, ameza imashini, telefone, amazi, hagati hatambitsemo imashini, hepfo yabo hari abandi bantu na bo bicaye, bafite amazi, imbere yabo bose bakaba ba kureba ahantu hamwe, kugipapuro cyanditseho RURA.

Abantu bicaye bambaye udupfukamunwa; buri wese akaba afite telefoni mu ntoki akaba arimo yifotora, bakaba bicaye mu cyumba kimwe.

Icyapa cy'Irembo, hakaba hari amagambo avuga ngo byikorere intambwe ya kane, hagati hakaba harimo mashine, ikaba yanditsemo andi magambo, hasi naho hakaba handitse andi magambo.

Inzu yubakishije imbaho iriho icyapa cya Ekwiti banki. Ifite abantu bicayemo, hakaba harimo icupa ry'amazi rya Jibu, hanze yayo hakaba hari ubusitani bw'indabo n'ibyatsi.

Ipironi ririho insinga nyinshi, ku ruhande hakaba hariho irindi pironi. Ikaba ifite ibyuma bifukuye bigiye biteyeho, hakaba hagaraga ibicu by'ubururu. Rikaba rifite amarangi y'umutuku n'umweru.

Umunara uteye mu murima uhinzemo ibigori, ibiti, umunara ukaba uzengurutswe n'ibyuma, inzu yubakijije amatafari ahiye, isakaje amabati, hakurya hakaba hari ibice by'umweru, hakuno hakaba hari andi mazu.

Icyapa cy'Irembo kiriho umuntu ufashe telefone mu ntoki uri gutungaho urutoki wambaye umupira w'ubururu hakaba handitsemo n'andi magambo, handitseho ijambo rivuga ngo byikorere hakaba handitseho n'irindi rivuga ngo intambwe ya mbere n'andi magambo ari muri telefone.

Abantu babiri buriye ipoto iriho insinga zijya ahantu hatandukanye, hakaba hariho ibiti, bakaba bambaye ibisarubeti n'ingofero z'umuhondo.

Ipoto iriho insinga zijya ahantu hatandukanye, hakaba hariho izijya ku nzu, inzu igaragara igice kimwe, hakurya hakaba hari ibicu inyuma yayo hakaba hateye ibiti.

Umunara ushinze ahantu muremure, umunara ukaba uzengurutswe n'ibyuma, hirya yawo hakaba hari ibiti, hakaba hariho insinga zijya ahantu hatandukanye.

Umunara uteye ahantu mu murima, umurima ukaba urimo ibyatsi n'ibiti, ukaba uriho insinga zigiye zijya ahantu hatandukanye, hirya yaho hakaba hari ipoto igaragara igice iriho ijyaho nsinga.

Inyubako ya etaje, urugo rwubakishije amatafari ahiye, imiryango ikinze, imodoka iparitse inyuma y'urugi, ipoto iriho insinga zijya ahantu hatandukanye, ubusitani bw'ibyatsi bya pasiparumu.

Ipoto ririho insinga zijya ahantu hatandukanye itara naryo ririnsinga, inyubako munsi ziriho abantu benshi b'ibyapa bitandukanye imodoka, icyapa gishinze, abantu bari kugendarya hakaba hari ibiti.

Umuhanda wa kabiririmbo abantu benshi bari kugenda mu modoka za bisi zitwaye abagenzi, inyuma yabo hakaba hari n'igikamyo, hakaba hari n'iminara ibiri umwe ni muremure cyane, undi ni mugufi, hakaba hari mu ibiti ku muhanda.

Inyubako ya etaje isakaje amabati ameze nk'amategura ikaba yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari ipoto y'icyuma y'insinga zitandukanye, haka hari icyapa cyanditseho ubwishingizi, hejuru hakaba hariho icyuma kinini cyane gikoze mu ibara cy'ikizeru.

Inyubako za etage, zikaba ari inyubako nyinshi, zikaba zirimo ubusitani bw'indabyo, ibyatsi, ndetse n'imiti, zikaba inzugi zazo zikinze, ndetse hakaba hari ibyuma, intebe, ndetse n'ibindi.

Inyubako zisakaje ubibati, zikaba zisize irange ry'umweru, imiryango yazo ikaba ikinguye, zikaba zifite ubusitani burimo indabyo na pasiparume, hakaba hari inkingi z'ibyuma, hakaba hari umuntu uhagaze hakurya, hakaba hari n'ikigega.

Inyubako zicucikiranye, imodoka ya ambiranse iparitse aho hanze, hakurya hakaba hari umurima uteyemo ibigori, ikigega, amazu ari hakurya, umunara ushinze hepfo y'iyo nyubako.

Abantu bicaye mu inzu hamwe bari mu nyubako yubakisheje amatafari ahiye, hakaba n'umuntuu uri kuri telefoni abandi bakaba bahagaze ku idirishya, imiryango yindi ikaba ikinze, akaba afite impapuro mu ntoki undi akaba ari gukanda kuri telefoni, abanbi bari ku murongo.

Inyubako zubabakishije amatafari ahiye zikaje amabati azizerangi ry'ubururu, hari icyapa kirekire cya shele cyanditseho ibitaro bya kabgayi akaramatara ateye ku umuhanda wa kaburimbo, imirongo y'imyeru icamo hagati, imirongo y'imyeru n'umukara kuruhande ubusitani bw'indabo inyuma y'iyo nzu.

Inyubako ya etaje, hakaba hari igaragara inyuma n'igaragara imbere, igaragara imbere imiryango yayo ikaba ikinguye, hakaba hariho korotire y'ibyuma, igaragara inyuma ikaba isize irangi ry'ivu, hakaba hagaragara ko hateye indabo igice.

Ibitanda byo kwa muganga bisa biteye kimwe, bigiye biryamyeho abantu biyoroshe amashuka y'umweru, akaba ari sare nini irimo abarwayi, hakaba hari ibyumba bigiye bikatishije amarido y'ubururu.

Inyubako ndende isakaje amabati ameze nk'amategura ubusitani bwindabo n'ibyatsi imodoka amatara n'andi mazu hakurya.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ibyatsi bya sima, umuntu uhagaze munsi y'ibyuma n'amabati asekaje ibyuma ibiti.

Inyubako, inyubako zitandukanye hepfo no haruguru, zisakaje amabati, imodoka ziparitse ku giti cy'umukindo, ibigega bibiri, abantu, amamoto ndetse n'icyapa.

Imodoka y'imbangukiragutabara y'ibitaro bya CHUK, ikaba iparitse hirya yayo hakaba izindi modoka , hakaba n'inyubako yubakishije amatafari ahiye isakaye hakaba hari ubusitani bw'indabo n'ibyatsi.

Inyubako zubatse ku murongo zubakishije amatafa ahiye, zisakaje amabati y'ubururu, abantu bicaye hasi inyuma yabo hari ubusitani bw'indabo n'ibyatsi, hari abandi bicaye ku ntebe zimbaho, bigaraga yuko hari inkingi z'ibyuma zisakaje amabati.

iIoto y'abantu bacishijemo imirongo itukura, haakaba ari uwambaye rinete, Akaba yitwa Kabuga Felician, n'undi akaba yitwa Augustin Bizimana, abo bantu bakaba bashakishwa, hejuru hakaba hariho yuko bakoze Jenoside.

Abantu bambaye amakanzu, imikenyero, hagati hakaba harimo uwambaye ikositime, bakaba bahagaze, inyuma yabo hari amadarapo y'igihugu abiri, ahantu bahagaze hakaba hashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda.

Inyubako ndende ya etaje, ifite ibirahure by'umukara, imbere yayo hakaba hari ikibuga kinini kirimo amapave, hakaba hari imodoka ebyiri zikinguye , hakaba hari abagororwa bambaye imyenda isa ndetse hakaba n'abandi babashoreye bambaye imyenda ya kaki.

Umuntu wiyogoshesheje wambaye rineti, wambaye ikanzu y'irosa, ndetse n'amapingu, inyuma hakaba hari uwambaye ingofero ishati ya kake n'ipantaro kake umufashe, hakaba undi wunamye ku modoka hakaba hari inze ifite umuryango ukinguye.

Umuntu wambaye amarineti, wiyogoshesheje akamaraho, akaba yambaye ikanzu y'umutuku n'umukara, imbere hari agatambaro k'umweru, mo imbere akaba yambaye karuvati y'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Hano ni mu nyubako bakaba bicaye ku ntebe z'umukara harimo abantu bambaye kositime y'ubururu undi wambaye umukara afite imashini kuru ruhande imbere yabo hakaba abandi bicaye ku meza imbere hari amazi, ikayi bakaba barikureba mu cyerekezo kimwe.

Abantu babiri bahagaze bambaye udupfukamunwa, hakaba hari mikorofone imbere yabo, imashini, umwe akaba bambaye imyenda y'iroza y'abagororwa undi akaba yambaye ikanzu y'umukara n'ibara ry'umweru, hakaba hari abandi bicaye bambaye udupfukamunwa, bakaba bahagaze ahantu bigaragara yuko ari n'ijoro amatara ari kwaka.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye hagati hakaba hasizemo irange, hakaba hari abantu bambaye imyenda isa iy'iroze, ari abagororwa bari kugenda, imbere yabo hakaba hari akazu kubakishije ibyuma kanasakaye.

Abantu babiri bahanye ibiganza bakaba bafite ikintu mu ntoki, bambaye amakanzu asa, inyuma yabo hakaba hariho undi ufite mikorofoni mu ntoki, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditse Rwanda, umwe akaba yambaye rineti bakaba bahagaze bari kwifotoza.

Abantu batatu harimo umwe wicaye uri kuri mashine, undi uhagaze wambaye rineti, hagati hakaba hahagazemo uwambaye ikote n'ishati, imbere yabo hakaba hari ameza ateretse amashini, uwambaye rinete akaba ari kwandika mu ikayi.

Icyapa kiriho ingabo ebyiri, izuba, inuma, kikaba ari icy'ubushinjacyaha bukuru.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari atwaye moto umupolisi amuhagaze imbere, hakurya hari amazu atandukanye, hakaba hari abantu bari kugenda , hakaba hari imodoka ya bisi hagati muri kaburimbo hakaba harimo agafureshi k'umweru.

Inyubako ya etaje, ifite parikingi yubakishije amapave ya borokesima, hakaba hari imodoka ya polisi ihaparitse, hakaba hari indi modoka ifite inyenyeri y'umukara iha paritse, inyubako ikaba iriho icyapa cyanditseho polisi.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka ya polisi, imirongo y'umuhondo icamo hagati, inzira y'abanyamaguru, abamotari, ibiti biteye muhanda iruhande, hari inyubako z'irangi ry'umuhondo ifite fondasiyo y'amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo b'imodoka ya polisi itagaragara niga mugenzi uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru ibitiro hakurya y'umuhanda imirongo y'imweruru n'umukara iri kunzira y'abanyamaguru izindi modoka ziri hepfo imirongo y'umuhondo icagaguye iri muri kaburimbo.

Inzego zikozemo ibyuma, zikaba zifunze ahantu hatandukanye, hakaba hari zifite ibara ry'umutuku, umweru, ndetse zekaba zagetse ahantu zizireritse n'umunyururu hasi hakaba hari amakara.

Umupolisi uhagaze ari kuvuga, akaba afasha ku ngofero y'umuntu umuhagaze imbere, inyuma yabo hakaba hari umuntu wambaye agapfukamunwa wifashe mu mbavu, hakaba hari imiryango y'ubucuruzi ikinguye, hakaba hari uwanditseho Tecno, Infinix, hakaba hari indi bikurikiranye bacuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Umuntu uhagaze uzamuye akaboko, akaba yambaye ikanzu, iruhande rwe hakaba hari abantu bambaye amakositimu, inyuma ye hakaba hari abantu benshi, hakurya hakaba hari amazu, ashaje, ari ku murongo.

Abantu babiri bicaye ku meza imbere yabo hakaba hari idarapo, hakaba hari mikorofone bakaba bunamye bari kwandika mu ikaye hagati y'abo hakaba hari idarapo, inyuma yabo hakaba hari igitambaro gifite ibara ry'ubururu kiriho ibirangantego.

Umuntu uhagaze uri kuvuga, wambaye ipantaro n'ikote bisa, mu imbere akaba yambaye umupira w'umweru nyuma hakaba hari abandi bantu bicaye ku ntebe, hakaba hari ameza bateguyeho agatambaro k'ubururu, inyuma yaho hakaba hari n'inzu hakaba hari n'inde ifite icyapa cya MTN ndetse n'ikindi cyapa imiryango yayo ikaba ikinguye, akaba ari umuntu wicaye mu muryango.

Umuntu uri kugenda ushyize akaguru kamwe hasi, akandi yagahinnye, yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, ishati irimo amabara rinete, akaba ari kureba hasi.

Inyubako ifite urubaraza, urwo rubaza rukaba rushakaje amabati, hakaba hariho n'inkingi zubakishije amatafari ahiye, hakaba hadekojeho igitambaro cy'umuhondo n'ubururu hakaba hari abantu batonze umurongo, hakaba hari indabo hafi yaho, ndetse hakaba hari n'ibiti.

Icyapa kiriho amabara atatu atandukanye, hari ibara ry'ubururu, ibara ry'umweru, ibara ry'icyatsi, hagati muri ayo mabara hakaba handitsemo inyuguti eshatu ari yo PSD.

Abamama benshi bambaye imikenyero itandukanye, bahagaze ahantu hamwe, inyuma yabo hakaba hari amazu, indabyo, ibiti, imbere yabo hakaba hari ama esikariye, bakaba bari kwifotoza.

Ikiganza gifashe ishaka mu ntoki, bikaba biri mu ruziga, hasi akotsemo amagambo avuga ngo ubutabera, ubwisungane, amajyambere, bikaba biri mu ibara ry'ubururu, hakaba hari amabara atatu, ubururu, umweru, ndetse n'icyatsi.

Abamama bane bahagaze, hejuru yabo hakaba bariho ifoto ya perezida, bakaba bari mu nyubako, impande zabo hakaba hari dirabo y'u Rwanda,, n'ahandi hakaba hari ikirangantego.

Umuntu ufite agasatsi gakeya wambaye rinete y'igikara wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara inyuma ye hakaba hari undi muntu na we ufite agasatsi gake uri kugaragara igice mu maso.

Umuhanda wa kaburimbo, abamotari batwaye abagenzi, hakabamo n'undi witwaye, imihanda y'umweru n'umukara igaragara ku nkengero z'umuhanda, umuntu w'umunyamaguru uri kugenda, icyapa kinini cyanditseho tora Kagame.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka kwasiteri itwaye abagenzi, ipironi ririho intsinga zigiye ahantu hatandukanye, hakurya hari umisozi w'ishyamba, amatara ari kwaka, umuntu uri kugenda neza, imodoka ziri kumanuka.

umuhanda wa kaburimbo, imodoka y'ikamyo iriho shitingi, umumotari utwaye umugenzi n'undi mumotari utwaye umugenzi, imodoka ikaba igeze mu nzira y'abanyamaguru, aho bamererwa kwambukira, hakaba hari imodoka ziri ku mpande, inzu, amatara ku mihanda, hakurya hakaba hari ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo, hari moto itwara imizigo yanditseho mede in Rwanda, imodoka ya kwasiteri, tagisi, abamotari, imirongo y'umweru icagaguye, hakaba hari n'undi murongo w'umweru munini, hakurya hakaba hari amazu, ndetse hakaba hari n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka imanuka n'izamuka, umuntu upakiye igitoki ku igare, amakarito, ndetse n'umufuka, hakurya hakaba hari abantu bari kugenda n'amaguru mu nzira y'abanyamaguru, hakaba hari ibiti biteye ku muhanda hakurya yabyo hakaba hari amazu menshi, ibyo biti bikaba bizengurutswe n'igitambaro cy'ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya bisi itwaye abagenzi, ikaba ikinze, ikaba iri kugenda ifite amabara y'umweru, n'ubururu, hakurya hari izindi modoka ziri inyuma yayo.

Umuhanda wa kaburimbo, ikimodoka kinini, hakaba harimo umuntu uyitwaye, hakaba hari umuntu utwaye igare uragara igice, hakaba hari undi uri kugenda mu nzira haragaragara igice, ruhurura igaragara igice, ibiti biri ku muhanda ndetse n'igitambaro cy'icyatsi kizitiye ibyo biti.

Muhanda wa kaburimbo abamotari batwaye imoto abagenzi bari kugenda munzira y'abanyamaguru, imodoka ziri hakurya amatara yo kumihanda ibiti biteye ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari utwaye umugenzi, ikimodoka cya rukururanwa, ibiti byo ku muhanda, ruhurura, hejuru hateyeho ibyatsi, inzira y'abanyamaguru, umunyamaguru uri kugenda mu nzira yabo, kwasiteri ziri hakurya.

Umuhanda wa kaburimbo hagati harimo umurongo w'umweru uzamuka n'utambitse, imodoka igaragara igice, ifite ibara ry'umweru n'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya rukururanwa, hejuru ikaba ifiteho ipine, hakuno hakaba hari inzira y'abanyamaguru, hakaba hari ruhurura iriho amapave igice kimwe, hakurya hakaba hari ibiti ku muhanda.

Abamotari baraparitse ahantu hamwe, buri moto ikaba paritse ahantu hayo hagati y'imirongo y'imyeru. Imbere yayo hakaba hari umutaka wa MTN, hakaba hari icyapa cya MTN cyanditseho ngo Savisi senta, hakaba hari inyubako ya etage, inyuma hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka y'itagisi, ubusitani buri hirya yayo, ibiti, indabo, abantu bicaye muri iyo modoka, hari imirongo y'imyeru n'umukara iri ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, umuntu utwaye igare, imodoka iri kuzamuka ,umuntu uhagaze mu nzira y'abanyamaguru, ibyatsi n'indabo biteye ku muhanda inzu isize irange ry'ubururu, imodoka igaragara igice.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka ya bisi itwaye abagenzi, ikaba isa irangi ry'umweru n'icyatsi, umugenzi uri mu nzira y'abanyamaguru wambaye ipantaro n'ikote, ipine rya moto rigaragara igice, ibiti biteye ku muhanda, hakaba hari na ruhurura hakuno y'umuhanda.

Iimpudu ya kaburimbo imodoka yakamyo n imwe nyuma yayo hakaba hari abamotari hakaba ari inzira y'abanyamaguru ibiti ku muhanda hakaba indi moto itwara imizigo hakurya hakaba hari inzuzihubatse.

Umuhanda wa kaburimbo, moto itwaye imizigo, indi moto iri imbere yayo, imodoka iparitse, urukuta rw'amabuye, ubusitani bw'ibyatsi n'ibiti, inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo, imodoka y'ikamyo igaragara igice, inzira y'abanyamaguru, ibyatsi biteye ku muhanda, ibiti, igitambaro cy'icyatsi kizengurutse ibiti hakurya inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri zijya mu byerekezo bibiri bitandukanye, ibiti biri hirya y'inzira y'abanyamaguru, amatara, ruhurura, ndetse hakaba harimo n'imodoka ziri hakurya.

Umuhanda wa kaburimbo, abanyonzi baparitse amagare, abantu bahagaze ni nijoro hari abandi bari kugenda, hari ipoto y'icyuma, hirya hakaba hari icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo, abamotari bari kuri moto, imirongo y'imyeru yerekana yuko ari inzira y'abanyamaguru bagomba gutambuka, inzira y'abanyamaguru, amatara ku mihanda, ubusitani bw'indabo, n'ibyatsi, n'ibiti.

Igishushanyo cy'ikizeru, kikaba kirimo igare, hagati hakaba hatambitseho umurongo utukura. Iryo gare rishushanyije mu ibara ry'umukara, byose bikaba biri mu ibara ry'umweru rya pande enye, Hasi hakara hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru, ari mu ibara ry'umutuku.

Icyapa cya mpandeshatu giteretse ahantu, gikozwe n'amabara atatu, umweru, umutuku, umuhondo n'umukara, hakaba harimo umuntu ufashe igitiyo muri iryo barara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya y'umuhanda hakaba hateye ishyamba ndetse hakaba n'umuntu uri guhingamo, hakaba hari icyapa cyanditseho ngo Rambura, hakaba hari abantu bari kuzamuka, hakaba hari inyubako, hari ishyamba, hari ibyatsi biteye imbere y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, icyapa giteye ku muhanda kivuga ngo urakaza neza mu Rwanda, hakaba hahagaze umuntu munsi wambaye imyenda y'imikara akaba ahetse igikapu imbere ku nda akaba ahagaze mu byatsi bya pasparumu.

Icyapa gikozwe muri mpande eshatu, iki cyapa kikaba kiriho imodoka y'umukara, hariho imirongo inyuranyemo y'umukara, iki cyapa kikaba gikoze mu ibara ry'umutuku n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, inzira y'abanyamaguru, abantu baafite amagare, abamotari batwaye abagenzi, icyapa kirimo imodoka iciyemo umurongo, ipoto ririho insinga zigiye ahantu hatandukanye ndetse n'irindi shyamba ruguru yaho.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari utwaye mato, umurongo w'umweru ucagaguye, icyapa cya tagisi kiri mu byatsi, ibiti biteye ku muhanda, igipangu kizengurutsweho n'ibiti byubakisha fondasiyo y'amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari utwaye moto, inyubako zubabakikije amatafari ahiye, rukaba rufite urugi rusize irangi ry'umukara, ibiti binini cyane biri hejuru y'igipangu, amabati asakaje inzu akaba asa umukara.

Inzu iri munsi y'ibiti, ifite ibirahuri, amadirishya n'inzige bikaba bifunze hakaba hari ubusitani imbere yaho, ibyatsi, indabo, ibiti, ndetse hakaba hariho na cash power kuri iyo nzu.

Abantu bari kugenda bahetse amabage, imodoka ziparitse zigaragara ibice hari y'umutuku, hari iy'umukara hari n'indi y'umukara, hari indabo ziteye hafi y'abo bantu hakaba hari n'inzu zubakishije ibyatsi.

Umuhanda w'amabuye, umumotari uparitse, undi muntu uhagaze ruguru ku gipangu cyubakijeje amabuye n'amatafari ahiye, abantu bari kugenda, inyubako zicuruza, hanze hari indobo, amabase n'utudobo dutoya, intebe za parasitike.

Inzu nyinshi zicucitse, ikigega cy'amazi, ipoto iriho insinga zijya ahantu hatandukanye, amashyamba ari hagati y'amazu, hakaba hari n'inzu igaragara igice isakaje amabati.

Inyubako zikurikiranye hakaba hari iriho icyapa cy'uko icuruza amata hakaba hari umuntu wunamye, hirya hakana hari inyubako iriho amakaro, ikaba iri gucuruza imyenda, hakaba hari umuhanda uparitsemo imodoka, ibiti byo ku muhanda.

Umuhanda wa kabirimbo urimo etaje, imodoka, imirongo y'umuhondo, imitaka ya MTN, ibiti, inzu, abantu, umumotari, iduka ricuruza imyenda.

Inyubako y'inzu ya etaje, ikaba ifite igipangu cy'amatafari ahiye, igice kimwe kikaba gisize irange ryijimye, hahakaba hari umugabo ugaragara igice washyize ibikapu mu byatsi, hakaba hari ipoto ijyana insinga muri iyo nyubako ya etaje.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba harimo irongo y'ibara ry'umuhondo y'ibice, hakurya hakaba hari umuhanda, inzira y'abanyamaguru, hakaba hari imodoka ziparitse imbere y'inyubako ya etaje, hakaba ari icyapa, ndetse hakaba hari n'imirongo y'umweru n'umukara, iri hafi y'inzira y'abanyamaguru, hakurya hakaba hari igiti giteye ku muhanda.

Mu muhanda wa kaburimo, hakaba hafatanye n'umuhanda w'amabuye, abantu bari kugenda, umugabo uhetse igikapu cy'umukara, undi wambaye imyenda y'umweru, imodoka ziparitse isize irangi ry'umutuku, iy'umukara, inyuma hakaba hari indabyo zigaraga igice.

Umuhanda wa kaburimbo, kumpande hakaba hariho ubusitani bw'indabo ndetse n'ibyatsi bya pasiparumu, hakaba hari umunyonzi utwaye igare, hakaba hari abantu, hakurya hakaba hari ishyamba.

Imihanda ibiri ya kaburimbo hakaba hari ikiraro hariho uca hasi n'uca hejuru, hasi hakaba hari ubusitani bw'indabo, abamotari, amamodoka, umuntu uri kugendesha amaguru mu nzira y'abanyamaguru, hejuru naho hakaba hari ibiti, hakaba hari n'urukuta rw'amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijemo ibice bitandukanye, imirongo y'imyeru irimo hagati, imirongo y'umweru n'umukara iri ku ruhande, ubusitani burimo buteye hagati, imodoka za bisi, amatagisi, umumotari, umunyamaguru uri hakurya, ibiti ndetse n'amatara.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru icagaguye, igaragaza yuko abanyamaguru ariho bagomba kwamukira motari utwaye umugenzi, imodoka, hejuru yaho akaba inyubako ya etaje, ibiti, ndetse n'ibyati ya pasiporomu.

Umuhanda wa kaburimbo, imirongo y'imyeru, irimo hagati yerekana inzira y'abanyamaguru n'imirongo y'ibice, umumotari akaba ayiparitse imbere, umuntu uri kwambuka wambaye imyenda y'imikara, indabo ziteye ku muhanda, umwana ugiye ku ishuri, amazu akorerwaho ubucuruzi.

Umuhanda w' gitaka, hakuno no hakurya hakaba hari amazu, hakaba hari indabo ziteye ku muhanda, hakaba hari ibiti hirya hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo; imodoka, abamotari batwaye abagenzi, etage, ibiti biteye kuruhande imirongo y'umweru irimo hagati, ishyamba riri hejuru amatara yo ku mihanda.

Impande ya kaburimbo, ihurira ahantu hamwe, ubusitani bw'indabo buteye hagati muri kaburimbo, imirongo y'imyero izengurutse ubusitani, abamotari imodoka y'ibyapa, ndetse n'inzu ziri hejuru y'umuhanda.

Umuhanda wa kabiririmbo hagati hakaba harimo ubusitani bw'indabo, bukaba buteyemo amatara, ibyapa, hakaba hariho umurongo w'umweru n'umukara no hakurya hakaba hariho imirongo y'umweru n'umukara, naho hakaba hateye ibiti pasiparume ndetse n'amazu hakurya.

Umuhanda wa kaburimbo, hagati hateyemo ubusitani bw'indabo, bukaba bukikijwe n'amabara y'umweru n'umukara, akaba ibara ry'umuhondo, umumotari utwaye umugenzi, umunyonzi, hakurya hari inzu hakaba hari n'imodoka igaragara igice.

Imihanda ya kaburimbo itandukanye, hakaba hari abamotari batwaye abagenzi, umugenzi umwe akaba ahetse igikapu, akaba afite ikarito mu ntoki, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti bihateye, hagati muri kaburimbo hakaba hari ubusitani bw'indabo harimo n'ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kabiririmbo, imodoka igeze hagati abanyamaguru bambukira, feruje ziri hejuru yayo ziri kwaka, abantu bari kugenda, icyapa kiri ku muhanda, ibiti ndetse hakaba hari n'indabyo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, umumotari utwaye moto, imirongo y'abanyamaguru, ruhurura irimo hagati, hejuru hakaba hari inzu zifiteho umuzenguruko w'indabyo.

Umuhanda wa kabiririmbo umumotari barya y'abagenzi imodoka feruje mirongo y'umweru abagenzi bambukiramo intango y'umukara n'umweru uri hagati hakaba hari ubusitani bw'indabo hakaba hari ibiti akaba iza etage'i icyapa kinini cya eyateri.